Imodoka itatse amabara atandukanye iri kwirukanwa mu muhanda ndetse bigaragara ko ari za modoka zikora amasiganwa mu mihanda, iriho amabaragi atandukanye, ndetse hakurya y'umuhanda hari abantu benshi bahagaze bigaragara ko bari bari kureba amasiganwa ndetse hakurya y'umuhanda hateye igiti cy'umukindo n'ibindi byatsi.

Page iri ku kwereka uburyo ushobora gukoresha wishyura amafaranga kuri konti ya banki yo mu mahanga, harimo amazina y'uwitwa Hirwa, ndetse bigaragara ko ariwe amafaranga yari agiye kuvaho, agenda kuri konti y'umuntu.

Inzu y'ubugeni yubatse neza ku buryo bugezweho, itatse neza imitako itandukanye, amafoto atandukanye ndetse harimo n'imyenda myiza iteguye neza itandukanye. Harimo utuntu tumeze nk'uduseke dutatse, harimo amahembe y'inka atatse, harimo imyenda itandukanye nk'imipira yo kwambara hejuru, imisego wakisegura ndetse n'ibindi byiza nk'ibintu wakambara cyangwa se abantu bakambara mu bintu bijyanye n'umuco.

Abantu batatu, babiri b'abirabura, undi umwe w'umuzungu, bafite icyapa mu ntoki ndetse babiri muri bafite udukapu tw'umutuku ndetse inyuma yaho hari ikimodoka kinini kiri mu ibara ry'umweru, bimwe bikururana bitwara imizigo myinshi ihambaye.

Umuntu ufite icyapa cyanditseho akagera ndetse inyuma ye hari imodoka nziza kandi imodoka zimwe zishobora gutwara imizigo, handitseho Fuso ndetse biri ahantu hari inyubako yubatse neza kandi ku buryo bwiza ifite inzugi z'ibirahure kandi ifite n'amatara meza y'ubwoko bugezweho hejuru.

Amandazi ateretse ku isahani meza kandi ateye amerwe pe! Akoze neza, amandazi akorwa mu mafarine, amavuta ndetse bashyizemo n'indi misemburo itandukanye.

Ahantu hasa neza hari akabati gateretsemo ibyo kunywa bitandukanye, nk'amaji y'ubwoko butandukanye amazi ndetse n'ibindi, bitondetse ndetse biteretse ku murongo ku buryo bubereye ijisho, ku buryo buri muntu wese yakifuza kuhagurira cyangwa se kuhahahira.

Ibiganza bifashe telefoni ngendanwa ndetse biri no kukwereka uburyo ushobora gukoresha wishyura ibintu bitandukanye nk'ibyo wakoresheje cyangwa se ibyo watwaye.

Amafaranga menshi arimo ubwoko bw'inoti, inote ziriho ishusho y'umuntu, igaragara ko atari abanyarwanda, gusa ni amafaranga menshi kandi afitwe n'ibiganza by'umuntu w'umuzungu, imbere hari undi muntu nanone ufite imashini, bigaragara ko ashobora kuba ari arimashini ibara amafaranga.

Ibiganza bifashe amafaranga ari mu bwoko bw'inoti mu ntoki asa nk'aho ari kuyabara, mu kindi kiganza harimo terefone ya gatushe ndetse yambaye n'impeta ku rutoki, ku kiganza cy'ibumoso.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi bubereye ijisho, hari intebe nziza, z'imifariso, ndetse intebe wakicaramo ukegama ukumva uguwe neza, intebe umuntu wese yakifuza gutunga mu nzu ye, kandi harimo n'itara rifashe ku gikuta riri kwaka, ndetse igikuta cyiza cy'amabara atandukanye, harimo utumeza tubiri, dusa neza, kandi twiza.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza habereye ijisho ku buryo, buri umwe yakwifuza kubasohokana umukunzi we cyangwa se umuryango we, hari intebe nziza z'ibara ry'umutuku n'umukara, hari ameza agaragara neza kandi abereye ijisho, hubatse neza inzugi z'ibirahure, amadirishya y'ibirahuri, hejuru hafite ishusho ryiza kandi rikeye.

Inyubako yubatswe neza ku buryo bwiza kandi bubereye ijisho, ndende kandi ituye ku muhanda, ibiti ku mihanda hirya no hino by'umuhanda, ndetse n'amamoto n'amamodoka biri kugendagenda mu muhanda, umuhanda uciyemo ibice bibiri, ndetse hagati na hagati harimo indabyo zitandukanye, ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Icyapa kiriho umukobwa mwiza wirabura ndetse ari kukubwira uburyo wafungura konti utavuye aho uri, akakubwira uburyo binyaruka kandi byihuta binoroshye.

Inyubako nziza, yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho, inyubako igeretse, inyubako yubakishije ibirahure ku gikuta, ndetse ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, ahambere hariho icyapa kigaragaza ko hakorera banki yitwa Populaire, ndetse hejuru yayo haragaragaza ko bashobora kuba bacururizamo ibintu bitandukanye, harimo nk'amarido, amatise, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahantu hubatse igisharaga ibisharagati bitandukanye, biri mu mabara y'umweru, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'abantu benshi bari gutambuka aho ngaho bigaragara ko hari ibyo bari baje kwitabira, harimo abagabo babiri bambaye impuzankano z'ibara ry'icyatsi bigaragara ko ari abashinzwe umutekano.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye, nk'imbuto, ibinyomoro, inyembe, amaronji, inanase ndetse n'ibirayi, amatunda ndetse n'umuntu uhagaze imbere yabyo bigaragara ko ari we uri kubicuruza.

Umugore bigaragara ko akuze wambaye ingofero y'umweru, wambaye igitambaro cy'umuhondo, ndetse afite agapapuro cyangwa se nabyita agakayi k'umuhondo kakubwira uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga nka telefoni ugashyiramo iriya mibare ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo, gakora ibijyanye n'itumanaho kugurisha ama inite yo guhamagara ndetse n'ibindi, gashamikiye ku muyoboro w'ishami ryitwa mu mpine inyuguti ya M na T na N.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa byo kurya bitandukanye ndetse n'amafaranga bishobora kugenda bigura. Habanza inyama zizingazinze zimeze nk'udupira zigura magana arindwi y'amanyarwanda, hagakurikiraho shokora imeze neza kandi ibereye ijisho igura amafaranga ibihumbi makumyabiri na bitandatu magana atanu, hagakurikiraho n'ibindi bimeze nka capati, na byo bigura amafaranga magana arindwi gusa.

Icyapa kiri mu'i ibara ry'icyatsi kiriho akantu bapfunyikamo ibintu bitandukanye nk'imbuto, imboga, karimo imineke, inyanya amashu ndetse n'ibindi bitandukanye, ku cyap handitseho ko bakugezaho ibiryo byiza ku muryango wawe.

Umugabo uri imbere y'inyubako nziza yubatswe neza ku buryo bw'iterambere, igeretse kandi isize amarangi meza asa neza y'umweru, ifite imiryango cyangwa se inzugi z'ibirahure ndetse yubakishije n'amakaro hasi, ifite aho bazamukira abanyamaguru bagana ku etaje yo hejuru cyangwa se bamanuka.

Icyuma gisa neza kibereye ijisho buri muntu wese yakwifuza kuramo cyangwa buri wese wararamo yakwifuza gusubiramo. Gishashe neza amashuka meza, imisego myiza ndetse gifite n'itara riri kwaka mo imbere, ndetse hagaragara ko ari muri Kigali Kabeza, ndetse ko ino nzu wabyiyishyura ku kwezi amadolari magana atanu na mirongo itanu ubundi ukayiberamo.

Ni ahantu heza, hubatse neza, hafite ishusho nziza ndetse hari n'umugabo w'umuzungu uri kuhatembera, hateye igiti cy'umukindo, pasiparume nziza, ibigega by'amazi hejuru ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye ndetse hari akapa kavuga ko ari inyubako nziza igurishwa ndetse na imeri wasangaho uramutse ukeneye kuyigura.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bunogejwe kandi ifite imitako cyangwa se indabyo hanze, ziri mu bintu by'ibipurasitiki cyangwa se by'ibyuma biteretsemo ndetse inyubako igeretse kandi igaragara neza. Ifite utuzitiro duto umuntu atava hejuru ngo agwe hasi kandi inyubako ifite ibyumba bitatu, ubwogero bubiri ndetse ngo yanakodeshwa amadorari ijana.

Inyubako nziza yubatse neza kandi ifite amadirishya y'ibirahure n'ibyuma, umuryango ndetse asize n'ibara ryenda gusa shokora. Iyi nyubako ikaba iherereye muri kigali i gikondo ndetse inakodeshwa ku bihumbi maganabiri na mirongo itanu ku kwezi ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe.

Umuntu w'igitsina gore ufite akantu bahahiramo mu masoko ya kijyambere ndetse ibintu yaje guhaha bipanze neza ahantu hameze nko mu tubati, kandi biri ku murongo ku buryo buri kimwe kibarizwa aho giteguriye, hameze neza kandi harasa neza kandi hari ibintu bibereye ijisho cyangwa se binogeye ijisho, buri wese yakifuza guhaha.